Ku ishuri hari utwana duhagaze ku murongo, imbere yatwo hari ababyeyi harimo abagore n'abagabo babiri hirya, inyuma yatwo hari umwarimu.

Umumama uvuye kuvoma yikoreye ibido isa umuhondo, ifite umupfundikizo w'umutuku hirya ye hari ibiti, hahagaze n'umwana wambaye umupira w'ubururu, undi yunamye imbere ye yambaye agapira k'umuhondo.

Abamama batatu bicaye imbere y'umuganga, umwe muri bo wambaye ishati y'umutuku we baramufata ibizamini, inyuma yabo hari jaride.

Abana babiri bari kuri robine barishimye, umwe muri bo arimo aravoma hateretse indoro ebyiri z'umweru, inyuma yabo hari ibirabyo bihari.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo ku meza hateretse amashakoshi n'uducupa tw'amazi. Umumama umwe arahagaze, wambaye agashati k'umukara.

Abahungu n'abakobwa baje kuvoma bari kuri robine indobo z'umuhondo n'akabito karindwi inyuma yabo hari ibiti by'imikindo.

Umumama ufite umwana. Utaze igitambara mu mutwe, wambaye agapira k'amabara y'umweru, n'ubururu, n'umukara. Umuganga arimo aratera umwana urushinge.

Abantu benshi bishimye banezerewe barimo kubyina, iruhande rwabo hari ameza n'intebe y'umukara n'izindi z'umweru.

Abana babiri bicaye kuri robine bishimye bateze ibiganza byabo amazi najya mu ntoki. Umwe muri bo yambaye agapira ku mapiku hirya yabo hateye ibyatsi.

Umusaza wicaye ku ntebe uri kwa muganga, wambaye agapfukamunwa. Barimo baramutera urushinge. Hirya yabo hari imeza iriho igitambaro cy'icyatsi.

Abantu benshi bunamye mu murima barimo gutera ibiti, harimo abambaye amapantaro yirabura, inyuma yabo hari ikigega cy'amazi n'inzu.

Abana b'abanyeshuri, umwe yunamye kuri robine arimo arakaraba intoki, iruhande rwe hari ibiti, yambaye agashati k'umuhondo.

Abana bahagaze benshi imbere y'amazi, umwe afite uducupa tubiri yambaye ikabutura y'ubururu n'agashati k'umuhondo, inyuma yabo hateye ibyatsi.

Abana benshi bahagaze imbere y'ameza bafite ibikombe, bamabaye imyambaro y'ishuri, baje kunywa.

Abantu batatu bahagaze kuri robine, umwe muri bo arimo aravoma, hateretse ama bido menshi y'umuhondo, inyuma hari insina n'ibiti bihateye.

Abana benshi bahagaze kuri robine umwe ni we urimo kuvoma, wambaye imyenda y'ubururu n'amabido ahateretse harimo n'iy'umukara, iruhande rwabo hari ibyatsi.

Kuri robine hateretse indobo ebyiri, iy'umuhondo, n'iy'umutuku, n'umu mama wunamye uhetse umwana, urimo koza umupfundikizo, inyuma ye hari ibiti.

Umurwayi urwaye kwa muganga, bari barimo kumutera urushinge, yambaye agashati k'umweru, yambaye n'agapfukamunwa, afite na rinete ku gatuza.

Umumama wicaye wambaye ingofero mu mutwe n'agapfukamunwa n'umupira w'umukara, umuganga arimo aramutera urushinge ku kaboko.

Mu nyubako harimo umugore uteruye umwana, umuganga arimo aramusuka umuti mu kanwa, hariho inzugi z'icyatsi kibisi harimo n'urufunguzo.

Umwana w'umunyeshuri urimo gukaraba intoki, arahagaze arishimye yambaye iniforume isa ubururu, hirya ye hateye ibiti hari n'amazu.

Umubyeyi wicaye ku ntebe, uteruye umwana, muganga amufashe mu kiganza, wambaye itaburiya y'umweru, urimo guseka, wishimye.

Umwana urimo guseka w'unamye kuri robine avoma, hateretse amabido y'umuhondo, inyuma ye hari ibiti, yambaye agapantaro y'iroza, n'agapira...

Umumama wishimye urimo guseka, uteruye umwana wambaye ingofero, ari kuri robine arimo aravoma amazi mu ndobo yirabura, inyuma yabo hari ibiti bihateye.

Imbere y'inyubako hahagaze abantu benshi cyane, hari imodoka ya ambulance ifunguye umuryango, harimo n'ibendera ry'igihugu, inyuma y'aho hari ibiti bihateye.

Abantu babiri bahagaze, umugabo n'umugore, umugabo yambaye ikositimu, yambaye karuvati, yambaye n'amarinete, bafashe agakapu kanditseho Visit Rwanda.

Abamama batatu bahagaze mu murima bafite inkoni, umwe muri bo arimo aronse umwana, inyuma ya bo hateye imyaka itandukanye, harimo insina n'ibiti.

Umumama uhagaze mu iduka wishimye, urimo guseka arimo aracuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo amavuta n'amasositomate, yambaye isengeri y'umuhondo.

Umwana wicaye ku gatebe k'ubururu, ufite uburoso bw'amenyo mu kanwa, ufite akantu mu mutwe k'iroza yambaye n'agapira k'umweru.

Abaganga babiri barimo baravura umurwayi, arasamye barimo baramureba mu kanwa, bambaye udupfukamunwa na ga z'umweru n'amasaha ku maboko.

Abantu babiri bicaye barimo barebana bishimye umusaza yambaye rinete, inyuma ye hari itara n'igiti cy'ururabyo gihari.

Abantu batatu barimo guseka cyane bishimye, umwana ufite akarabyo mu ntoki umukobwa urimo yambaye rinete, iruhande rwabo hateretse amasahani.

Abantu babiri bicaye bishimye barimo baseka, imbere yabo hateretse amatasi abiri y'imyeru, barimo barasoma igitabo umusaza yambaye na rinete.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri, harimo umukecuru wishimye cyane arimo araseka, afasha akantu k'iroza, aranezerewe arishimye.

Abantu babiri bari imbere y'ibyo kurya. Umusaza aricaye yambaye umupira w'umweru, umumama afite igikombe cy'ikirahure arimo arasukamo ji.

Abagore bambaye amajipo y'imikara. Bambaye n'imipira y'imyeru, umugore umwe muri bo yambaye ikanzu y'igitenge. Ateze n'igitambara, gisa n'ikanzu yambaye. Yambaye n'agapfukamunwa.

Umukecuru uhagaze, afite mikoro y'umutuku, ahagaze muri parikingi inyuma ye hari imodoka ebyiri, yambaye ikinigi gifite amabara y'umukara n'umweru.

Umukecuru urimo guseka wishimye, ufite isahane y'ibiryo mu ntoki n'ifoka, wambaye umupira w'umweru, inyuma ye hari akabati.

Abagore batatu bishimye banezerewe, barimo barifotoza, urimo hagati niwe ufite telefone, telefone yirabura, yambaye n'agapira k'umuhondo.

Abantu babiri umuganga n'umusaza wicaye ku ntebe y'umweru, yambaye ishati y'ubururu, yambaye n'agapfukamunwa. Hirya yabo hateye ibiti, hari n'inzu ku ruhande.

Abantu babiri bafite umupira, umwana ni we uwufashe, yambaye agashati k'umweru, inyuma yabo hari inzu n'ibiti bihateye.

Abantu babiri bahagaze banezerewe, imbere yabo hateretse imboga z'amoko atandukanye, inyanya, puwavuro, kokombure, umukecuru afashe ikirahuri mu ntoki kirimo icyo kunywa, wambaye na rinete.

Umukobwa wicaye mu ntebe y'umuhondo wambaye ipantaro y'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki na linete n'igitabo ku kaboko.

Inyubako ndende igeretse, isize amabara y'umweru, amabati y'umutuku, haparitse imodoka hanze, hahagaze n'abantu benshi.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari, imbere yayo hahagaze abantu n'imodoka, hari n'icyapa mu mbuga n'amajaride menshi.

Inyubako nziza hanze yazo hahagaze abantu abandi baricaye, harimo n'amajiride hateyemo n'ibiti by'imikindo, harimo n'ibiti bibiri bifite ibirabyo by'umutuku.

Kwa muganga hari abantu babiri barwaye barembye cyane, bari ku mwuka, iruhande rwabo hateretse amacupa abiri y'amazi.

Inyubako ndende cyane igereritse, isize ibara ry'umuhondo n'umweru, haparitse amamodoka atandukanye, hateye n'ibiti by'imikindo.

Inyubako nini yumweru ifite amabati y'ubururu n'amadirishya y'icyatsi. Imbere yayo hari jaride n'igiti giteyemo.

Inyubako ndende igeretse, imbere yayo hari icyapa, hahagaze n'abantu batandukanye, n'imodoka y'umukara mu mbuga.

Inyubako y'amatafari ahiye y'amabati y'ubururu, amadirishya y'umweru, handitseho materineti, inzu y'ababyeyi.

Inzu y'ababyeyi ya materineti, isize amarangi y'umweru, amabati ni ubururu, iruhande rwayo hateye ibiti binini.

Abantu babiri bahagaze, umwe ni umuganga. Afite terefone nini mu ntoki. Yambaye rinete, arimo araseka, arishimye. Yambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako ndende igeretse, isize ibara ry'umweru. Amabati y'umutuku, imbere yayo hahagaze abantu, hari n'ibendera, n'ibiti.

Inyubako igeretse ifite amabara y'umweru, ubururu n'umukara haparitse n'imodoka n'igiti cy'umukindo ku ruhande.

Kwa muganga hari umurwayi barimo baramufata ibizami, hari n'ameza afite ibara ry'umweru umuganga umwe arimo arandika, undi arahagaze afite ikaramu mu ntoki.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'ibiti, imbere yabo hateretse imeza n'umugabo uhagaze wambaye ikoti ryirabura n'ishati y'umweru.

Inyubako nini y'amatafari ahiye iriho ibara ry'umweru na jaride n'igiti by'imikindo n'imodoka ziparitsemo.

Inyubako ndende igeretse, imbere yayo harimo ama modoka menshi cyane, hahagaze n'umu sekirite wambaye ishati y'umutuku, n'ingofero arimo arayobora imodoka.

Inyubako nini cyane, y'amabati y'umutuku. Hari amabendera abiri, n'umuntu uhagaze mu muryango, hari n'icyapa ku nzu.

Inyubako nini y'amatafari ahiye isize irangi ry'umweru amabati umutuku, na jaride n'indabyo ziteye.

Inyubako nini, hicayeho abantu abandi barahagaze, hashinze n'ibyuma by'umutuku, hari n'icyapa kiri iruhande rwayo.

Abantu babiri bicaye bishimye, umusaza yambaye ishati y'umutuku na linete, inyuma yabo hari inyubako ifite amabara y'umweru.

Umuganga uhagaze wambaye ishati y'ubururu, ufite agapfukamunwa na ga mu ntoki, imbere ye hari imashini n'ibitabo n'ikaramu.

Umusore uryamye uzamuye akaguru, wambaye ikabutura y'umweru iriho utubara tw'umutuku, ufite terefone mu ntoki, wambaye n'isaha ku kaboko.

Imboga n'imbuto biteretse ahantu, harimo voka, harimo pome, harimo ironji, harimo leti, harimo borokori, harimo na shufuleri, harimo na pavulo.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umweru wunamye uzamuye akaguru ke.

Umukobwa wunamye uhumurije, akaguru kamwe yagahinnye akandi kararambuye gafasheho amaboko, yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'iroza.

Umuntu Arimo aranywa amazi. Yambaye agapira k'umweru, yambaye kuteri z'umweru mu matwi, yambaye n'isaha ku kaboko.

Kwa muganga hari umurwayi, aryamye yubitse inda, umuganga arimo aramuvura, yambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Abantu babiri bahagaze mu ishyamba riteyemo ibiti birebire, umukobwa wambaye agapira k'umweru, uteze n'igitambaro mu mutwe.

Abagabo bahagaze mu murima bishimye, uteyemo igikakarubamba, inyuma yabo hari ibiti, bambaye amapantaro yirabura, n'udupira dusa icyatsi.

Agacupa gateretse, kariho ibyandiko by'umuhondo, n'indimu isatuyemo kabiri, n'igitunguru, n'ibyandiko byanditseho, Baho neza TV.